Agakoresho kifashishwa n'abana kugira ngo kabafashe gukura mu mutwe kandi bakure neza bishimye.

Abana barimo barakina imbere yabo hari umusaza ufite ubumuga bwo kutabona, iruhande rwe hari inkoni.

Udukinisho dutandukanye turiho ibishushanyo, twifashishwa n'abarimu barimo bigisha abana bakiri bato, aha dukunda kwifashishwa muri pirimeri ndetse no muri nasari.

Ibikinisho abana bidagaduriraho barimo baserebeka, biri mu mabara y'umutuku ndetse n'umuhondo, bishushanyijeho ibitente.

Agakoresho kabugenewe gahabwa abana kakabikwamo ibyo kunywa, harimo nk'igikoma, amata n'ibindi, ni gato gusa kagira akamaro.

Agakoresho kabugenewe kifashishwa n'abana bagiye batandukanye, biga mu bigo by'amashuri abanza ndetse n'ibiburamwaka.

Ikigo cy'amashuri cya nasali cyangwag se ikiburamwaka, hashushanyije ibishushanyo bigiye bitandukanye, iyo ukihagera uhita ubyibwira ko higa abana bakiri bato.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gushushanya birimo amabara atandukanye birambitse hasi, ibi abana bakiri bato ni ibyo bifashisha bashushanya ibishushanyo bitandukanye.

Icyapa cyashaje, cyanditseho amagambo menshi, indangagaciro na kirazira, kirerekana ko aha uba wageze ku rwunge rw'amashuri rwa Burega.

Icyumba kigirwamo n'abanyeshuri b'inshuke, gisizwe irangi ry'umuhondo ndetse gifite inzugi n'amadirishya biri mu ibara ry'umukara. Kiriho ibishushanyo bitandukanye higanjemo iby'ibiribwa. Kiriho igitoki ndetse n'ibishyimbo bishushanyije.

Icyumba gitunganyirizwamo amafunguro agaburirwa abana ku ishuri, kiriho imyotsi myinshi biragaragara ko abagikoreramo imyutsi yababujije amahwemo.

Igikoresho cy'abana bo muri primaire, cyifashishwa kibika udukoresho dutandukanye, twifashishwa mu gupima ,gushushanya n'ibindi.

Ku kigo cy'amashuri ahari ibikinisho bitandukanye, nk'ibirimo ibyicungo ndetse n'ibindi. Aha ni ahantu abana bato bigira, bityo uburere bwabo bukaba bwiza.

Ibishushanyo biriho umugabo ndetse n'umwana barimo barandika ku kibaho, iruhande rwabo hari abagore babiri umwe ari ku kagare asa nk'aho yagize ikibazo.

Ikigo cy'amashuri kigizwe n'ibyumba byinshi byubakishijwe amatafarihi ahiye ndetse bisakajwe amabati ari mu ibara ry'umutuku, imbere yabyo hari ikibuga kinini kirimo ibyatsi ndetse kirimo idarapo ry'u Rwanda ririmo amabara atatu: icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Ni byiza ko abana bacu twabamenyereza kujya tubaha udukinisho tugiye dutandukanye, utu dukinisho twifashishwa dukangura ubwonko bw'umwana w'uruhinja ndetse n'umaze gukura.

Ibi ni ibikoresho bya gakondo byo mu gihe cyo hambere, harimo ibitebo, inyuro n'ibindi. Harimo amategura, ibumba ibyo byose byari ibya kera.

Agakoresho kifashishwa mu gushushanya, karimo imibare, udushushanyo dutandukanye, utumenyetso, utunyenyeri, udufi n'ibindi.

Umwarimu w'umugore, ari imbere y'abanyeshuri bakiri bato, yambaye itaburiya y'umweru, afashe mu mifuka, abo ari kwigisha bamanitse amaboko, biragaragara ko ababajije ikibazo.

Udukinisho twifashishwa mu gukangura ubwonko bw'umwana hariho imibare igiye itandukanye barakaraga aho biguye umwana akaba yavuga igisubizo cyabyo.

Abagabo bahagaze batonze umurongo, mo hagati harimo umugore ubyibushye wambaye umupira w'ubururu, biragaragara ko bari bageze ku Kigo cy'Amashuri, barimo barafata ifoto y'urwibutso.

Igishushanyo cy'ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amabati ari mu ibara ry'ubururu ndetse hagati yacyo hari ikibuga kirimo ibyabyatsi, imbere gato hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Imbere yaryo hari abarimu babiri uw'umugore n'umugabo bambaye impuzankano y'abarimu igizwe n'amataburariya y'umweru ndetse imbere gato hari abanyeshuri bambaye impuzankano igizwe n'amashati y'umweru ndetse n'amakanzu cyangwamo amakabutura ari mu ibara ry'ubururu.

Umwarimu uri ku kibaho yashushanyije igishushanyo cy'umutima, agishyiraho ibice bitandukanye, arimo arasobanurira abanyeshuri uko umutima uteye.

Igitabo akenshi cyabaga kirimo ibishushanyo bigiye bitandukanye ahangaha ni abana ndetse barimo barakora imikino igiye itandukanye, aha barimo baravuga ngo abana bari gufatanya n'umurezi mu guhanga ibikoresho mu bukorikori.

Imibare itondetse ivuye kuri rimwe ikageza ku icumi, yifashishwa na mwarimu mu kubara, yigisha abanyeshuri be uko bara, imibare ni imwe mu bigize ubuzima bwacu.

Umugabo wishimye, yicaye imbere y'amakaye ndetse n'ibitabo ku meza, yambaye ishati y'amaboko maremare. Arimo araseka. Biragaragara ko ari umwarimu.

Inkuru ishushanyije igamije kwigisha abana bakiri bato cyane cyane bo muri Primaire cyangwa se mu mashuri abanza. Haba harimo inkuru zishishikaje ndetse zibafasha kwiga.

Udukoresho dutandukanye twifashishwa mu burezi, aho umwarimu atwifashisha yigisha abanyeshuri kubara ndetse bigakangura mu bwonko bwabo.

Inzu ndende isakajwe amabati meza agezweho, ni irerero ry'amashuri abanza, ni ku zuba biragaragara ko ikirere gikeye.

Agakoresho kifashishwa mu gupima ibipimo bigiye ibitandukanye harimo uburebure ndetse n'ibiro kifashishwa n'umwarimu nk'imfashanyigisho kugira ngo yigishe abana ayoboye.

Amarati ari mu mabara atandukanye yifashishwa mu gupima ibintu mu bigiye bitandukanye harimo uburebure, ububerame, kwibereka ibizeru ndetse n'ibindi.

Akazu gato gasakajwe amabati ndetse gakingishijwe mu muryango usize irangi ry'ubururu, Imbere yako hari jerekani ndetse n'ibasi aho abana bakarabira. Aha ni ku kigo cy'amashuri.

Ibikoresho byifashishwa ku ishuri harimo inyuguti zibajwe mu biti, harimo uducupa ku ruhande ndetse byose biteretse ku meza.

Urubyiruko rw'abana b'abahungu ndetse bambaye amashati y'imweru, umupira w'icyatsi, bahuriye ahantu hamwe barimo baraganira, abandi hirya bari mubindi.

Urubyiruko rw'abana b'abanyeshuri ndetse n'abakobwa, bambaye impuzankano, baje mu gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, hejuru udupira tw'ubururu, hasi amakaki, bafite aho bari kwerekeza, bari ku murongo, biragaragara ko bagiye mu igikorwa runaka.

Abanyeshuri batonze umurongo, hirya yabo hari n'abandi batunze umurongo, biragaragara ko bagiye gukora ikizamini cya Leta gisoza amashuri.

Abasore ndetse n'abakobwa b'abanyeshuri, bicaye imbere ya mudasobwa barimo barakirika, harimo abambaye imipira y'imikara, ndetse hari n'abambaye amashati y'imyeru.

Umugabo wicaye imbere y'abanyeshuri ndetse n'abayobozi, arimo arabasobanurira ibintu bitandukanye akoresheje porojegiteri, iruhande rwa porejegiteri hateretse mudasobwa.

Abana b'abahungu bambaye inifomu zo ku ishuri, barimo barerekeza kuri kandagira ukarabe ngo bakarabe intoki, ibi birinda indwara zituruka ku mwanda.

Umugabo w'umwirabura wambaye ipantaro ya kaki, ishati ndetse afite amashami y'ibiti mu ntoki. Imbere ye hari abanyeshuri benshi higanjemo abambaye impuzankano y'ishuri igizwe n'amakabutura ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'amashati.

Urubyiruko rw'ingimbi ndetse n'abangavu hejuru bambaye impuzankano y'umuhondo hasi bambaye kaki, bavuye mu rugendo bigaragare ko hari aho berekeza.

Abana b'abanyeshuri b'abakobwa b'abangavu, bambaye impuzankano me ya kontoni, babiri muri bo bambaye udupfukamuwa tw'umutuku, abandi inyuma yabo bambaye udupfukamunwa tw'umukara barimo barandika.

Abana bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'imipira y'icyatsi, bicaye ahantu hamwe biragaragara ko hari ibiganiro bagiye kugezwaho, ni byiza kumvira abayobozi bacu biradufasha cyane.

Icyumba gitangirwarwamo ubumenyi gisize irangi ry'umuhondo ndetse kirimo sima, kirimo kandi igikoresho cy'umutuku kifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, imbere yacyo hari urugi runini ruri mu ibara ry'ubururu, imbere yarwo hari imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagabo.

Ikibuga kirimo ibiti kirimo imbaga nyamwinshi y'abanyeshuri bamwe baricaye abandi barahagaze. Bambaye impuzankano y'ishuri igizwe n'amashati ari mu ibara ry'umweru ndetse n'amajipo n'amapantaro ari mu ibara rya kaki. Imbere yabo hari abantu batatu, umugore umwe ndetse n'abagabo babiri.

Abana bakiri bato bari iruhande rw'abantu bakuru bamwe muri bo bambaye impuzankano y'umukara n'umweru ndetse n'amakaruvati, uri hagati afite indangururamajwi arimo aravuga ijambo.

Icyumba kinini cy'amashuri kigirwamo ibijyanye n'ubuganga, kirimo ibikoresho bitandukanye ndetse cyubakishijwe amatafari ahiye. Kirimo umwarimu w'umugore wambaye impuzankano y'abarimu igizwe n'itaburiya iri mu ibara ry'umweru.

Inzu mberabyombi yabereyemo ibiganiro bitandukanye, harimo umugore ufite indangururamajwi, arimo araganiriza urubyiruko rw'abana b'abanyeshuri yambaye ikanzu ndetse n'amadarubindi.

Icyumba k'ishuri kigizwe n'amatafari ahiye cyubakishijwe inkingi zisizwe irangi ry'umuhondo, imbere yazo hari imbaga nyamwinshi y'abantu bari kugenda higanjemo bagore, umwe muri bo yambaye ijire iri mu ibara ry'icyatsi, ku ruhande rwe hari umugore ufite ibisuko wambaye ijire iri mu ibara ry'umuhondo.

Umubyeyi ufite urupapuro mu intoki ahagaze imbere y'imbaga y'abana b'urubyiruko, arimo arabaganiriza kubirebana nabo, yambaye agapira k'ubururu, impuzankano y'umweru.

Ikibumbano gikozwe mu ibumba giforomwemo igikombe, ibumba ni ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko bituma turihangamo ubugeni.

Intebe ziri mu ibara ry'ubururu zanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ziteretse ahantu muri sale nini biragaragara ko ari zo abanyeshuri bicaraho, zirakomeye.

Inzu nini yigirwamo n'abanyeshuri ba kaminuza, isizwe irangi ry'umuhondo ndetse yiciwemo n'imbaga nyamwinshi y'abanyeshuri higanjemo abagabo. Umwe muri bo afite mikoro iruhande rwe, hari umugabo wambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu ndetse inyuma ye hari umugore ufite ibisuko by'umukara.

Igishushanyo gishushanya neza kigaragaza agace k'ahantu mu giturage, hari in inzu nini, ibyatsi, ibiti ndetse n'ibindi.

Inzu nini, iriho ama esikariye azamukamo hejuru mu cyumba cya kabiri. Biragaragara ko ari ikigo cy'amashuri, cyangwa se akaba ari inzu mberabyombi.

Inzu nini yigirwamo isizwe irangi ry'umuhondo irimo imbaga nyamwinshi y'abanyeshuri higanjemo abahungu, harimo umugore uhagaze imbere wambaye ishati irimo amabara atandukanye harimo imirongo y'umweru ndetse iruhande rwe hari intebe ziri mu ibara ry'umukara.

Ibibumbano bikozwe mu ibumba ndetse hari n'ibibajwe mu biti, ibi byose bikorwa n'imirimo y'amaboko aba ni abanyabugeni baba babihanze.

Akayira k'abanyamagurubakishijwe amapave, iruhande rwako hari indabo zikase neza higanjemo ifite ibara ry'umuhondo ndetse imbere gato hari ikibuga kirimo ibyatsi bikase neza, imbere cyane hari umuntu uri kugenda wambaye umupira uri mu ibara ry'umukara ndetse imbere ye hari ibiti byinshi bifite amashami maremare.

Ikibaho gishushanyijeho ibintu bigiye bitandukanye ndetse n'amagambo agiye atandukanye. Hari n'igikoresho cyifashishwa mu guhanagura.

Igishushanyo cy'umugabo wicaye hasi, afite gitari mu ntoki, arimo arayikora mu mirya, nyir'iki kigeni, ni umuhanga, azi gushushanya.

Umutako umanitse ku rukuta rusize irangi ibi byakozwe n'abanyabugeni, abanyabugeni ni ingirakamaro mu gihugu cyacu kuko batuma gitera imbere.

Abari beza batatu bose bambaye amabaji mu ijosi, imbere yabo hateretse amazi ari mu ducupa tw'Inyange, bose bafite imisatsi miremire barimo barareba imbere.

Icyumba kirimo irangi ry'umuhondo, gifite idirishya rinini ririmo ibyuma ndetse kirimo amakato, kirimo umuntu ufite telefone mu ntoki, wambaye umupira w'umweru, isaha ku kuboko ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, imbere ye hari abagore babiri bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'ubururu.

Intebe zo kwicaraho hari izikozwe muri palasitike izindi zikozwe mu giti. Ziri imbere y'ikigo, imbere y'ishuri. Aha ni muri kaminuza.

Abanyeshuri baturutse imihanda yose baje kugaraduwetinga, bambaye imyenda isa hose barishimye biragaragara ko babikoreye.